Abagabo babiri bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere hari ameza asa shokora ateretseho amazi, umwe yambaye ikoti risa icyatsi n'ishati isa umweru, n'undi wambaye ishati isa umweru, inyuma yabo hari urukuta rusa ubururu rwandikishijeho inyuguti zisa umweru, bari kuganira, biragaragara ko bari mu nama.

Abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari ameza asa shokora, hateretseho amakayi na mikoro, umugabo umwe yamwenyuye cyane, yambaye ishati isa umweru n'ikoti risa ubururu, inyuma yabo hari urukuta rusa ubururu n'umweru n'inzugi zisa shokora, biragaragara ko bari mu nama, bishimye cyane.

Abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo buri muntu afashe ikayi n'ikaramu, inyuma yabo hari icyapa gisa umweru, cyandikishije mu nyuguti zisa umukara n'umweru n'ubururu, biragaragara ko hano abantu bari mu nama ijyanye no gufasha abaturage, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi.

Abantu babiri bicaye ku ntebe zisa umukara, inyuma yabo hari amarido asa umutuku n'umweru n'inkuta zisa umweru, imbere yabo hari ameza asa umukara ateretseho mudasobwa n'amazi na terefoni n'ikaramu n'amakayi, umwe yambaye ikoti risa bururu afite n'imisatsi isa umukara n'undi yambaye imyenda irimo umweru n'icyatsi, biragaragara ko bari nko mu nama.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hari ameza asa umutuku ateretseho ibikapu, terefoni, mudasobwa, amakaye n'amazi. Biragaragara ko bano bantu bari mu nama, inyuma yabo hari urukuta rusa umweru, hasi hari amakaro asa umweru.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hari ameza asa umutuku ateretseho compiyuta n'amakaye n'amazi na mikoro imbere yabo hari icyapa gisa ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa umweru hakurya hariho n'izindi ntebe zicayemo ubusa zisa umweru n'ubururu.

Abantu benshi batandukanye bicaye, imbere yabo hariyo amavido n'ibitiyo n'inzu ifite amabati asa ubururu, iriho icyapa gisi ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa umweru n'ubururu. Hahagazeho umugore wambaye umupira usa umweru, afite na mikoro rugu ye hariho umugabo hariho n'iradiyo isa umukara, bari mu nama.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa umutuku n'umuhondo, imbere yabo hari ameza ari ibitambaro bisa umweru hateretseho ibirahure n'amazi na terefoni n'amakaye, imbere hari umugore wambaye umupira usa umutuku asutse imisatsi isa umukara biragaragara ko hariho umuntu uri kubabwira ijambo umugore yamuteze amatwi.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa shokora imbere yabo hari ameza asa shokora asasheho ibitambaro bisa umweru bambaye imyenda isa ubururu inyuma yaho hari amarido asa umukara biragaragara ko ari abanyeshuri bicaye mu nama.

Abantu benshi batandukanye imbere yabo hari ameza asa umukara, ateretseho mudasobwa na terefone n'amakaye n'amakaramu n'utubuni turimo amazi, bicaye ku ntebe zisa icyatsi n'umuhondo, hasi hariho amakaro asa umutuku, inyuma yabo hari urukuta rusa umuhondo, biragaragara ko bateraniye hano bari mu nama.

Abantu benshi batandukanye bambaye imipira isa umuhondo, n'amapantaro asa ubururu, inyuma yabo hari urukuta rusa umweru, hariho n'abandi bantu bambaye imipira isa icyatsi biragaragara ko babahagarikiye, abangaba wajyira ni abanyeshuri bari mu nama.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu ntebe zisa umweru na shokora, biragaragara ko bari nko mu bukwe bishimye cyane, inyuma yaho hari urukuta rusa umweru, hasi hari amakaro asa umweru n'amatara ari kwaka umweru, hariho amarida asa umukara.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza asa umutuku hagati hasa ubururu, hateretseho mudasobwa na mikoro na terefoni n'amakaye, biragaragara ko bari mu nama. Imbere yabo hari icyapa gisa ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu n'umweru n'umutuku.

Abantu benshi batandukanye imbere yabo hari ameza asa shokora ateretseho udukapu, ateretseho telefone, amazi, amakaye hariho umugore wambaye umupira usa umutuku ari nko kwandika ibitekerezo bano bantu bari kuvuga bicaye no ku ntebe zisa umukara inyuma hari urukuta rusa umweru. Biragaragara ko bari mu nama.

Abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe z'icyumweru, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro bisa umweru, hateretseho mudasobwa n'amazi na terefone n'amakayi, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye ishati isa umweru n'ipantaro y'umukara, biragaragara ko bari mu nama, afite nk'ijambo ari kubabwira, inyuma y'uwo muntu hari urukuta rusa umweru, n'amarido asa umweru.

Abantu benshi batandukanye bari mu mutakaku usa umweru, imbere hariho umuhondo, ubururu, icyatsi. Imbere yabo hari umugabo uhahagaze wambaye umupira usa oranje ni'pantaro isa umukara, imbere hari ameza asa shokora, afite mikoroso isa umukara, biragaragara yuko bari mu nama afite nk'ibintu ari kubaganiriza, ruguru yabo hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu mutaka usa umweru, imbere hariho ibara risa cyatsi n'umuhondo n'ubururu, bicaye ku ntebe zisa umweru hasi hari ibyatsi bisi cyatsi, biragaragara ko bari nko mu nama cyangwa mu bukwe.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hari ameza n'igitambaro gisa icyatsi inyuma yabo hari amarido asa shokora n'umweru n'ibikuta bisa umweru ku meza yateretseho agakapu ikaramu n'amazi bano bantu biragaragara ko bari mu nama.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari amezasa umukara ateretseho mudasobwa, amakaye, n'amakaramu, n'amazi. Aba bantu bahuje urugwiro bafite amakaye imbere n'ikaramu, bari kureba muri mudasobwa bakabonamo ijambo bakaryandika mu'ikaye babihurije hamwe.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gisa umuhondo n'ubururu, n'urukuta rusa umweru, inyuma hari n'icyapa gisa umukara cyandikishijweho inyuguti zisa umweru, hahagaze umugabo ufite mikoro yambaye ishati isa umukara, n'umupira usa umweru, n'isaha ku kuboko, n'umugore wambaye agakoti gisa umweru n'ingofero isa ubururu, biragaragara ko bari nko mu nama bari kuvuga ijambo.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza asa shokora, ateretseho ibitabo na mudasobwa, n'amazi n'indangururamajwi, hari abafite amakaramu bari kuvuga ibitekerezo bandika, biragaragara y'uko bari mu nama.

Abantu benshi batandukanye imbere yabo hari ameza, hari igitambaro gisa umweru, inyuma yabo hari urukuta rusa umweru n'icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umweru n'ubururu, hasi hariho n'amakaro asa umweru, bano bantu biragaragara ko bari mu nama.

Abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari ameza asa shokora, hateretseho amazi, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere hicaye umukobwa ufite imisatsi isa umukara na rineti zisa umukara yambaye agapira gasa icyatsi, afashe ikaye biragaragara ko bari mu nama, afite nk'ibintu ari kwandika biri kuva mu nama.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa umutuku n'umuhondo, imbere yabo hari ameza asa shokora, ariho amazi n'utubuni n'amakaye na kompiyuta, biragaragara ko bari mu nama. Hasi yaho hariho amakaro asa shokora n'umweru, hirya hari inkuta zisa umweru n'inzugi zisa shokora.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe zisa umweru, n'umukara, n'ubururu. Imbere yabo hariho umutaka wicayemo abantu usa umuhondo, n'icyatsi. Hano hantu biragaragara y'uko habereye inama. Imbere yabo hari umuntu uhagaze ku meza asa shokora afashe mikoro, yambaye umupira usa ubururu n'ipantaro isa icyatsi. Biragaragara ko afite nk'ijambo ari kuvuga.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hari ameza asa umweru ateretseho ibitabo. Imbere yabo hari abantu babiri umwe yambaye imyenda isa ,ishati isa umweru n'ipantaro isa ubururu n'ikoti ry'ijimye n'ipantaro isa ubururu afashe mikoro bigaragare ko afite nk'ijambo ari kubabwira bari mu nama bamuteze amatwi.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gisa umweru n'ubururu. Aba bantu biragaragara ko bari mu nama, inyuma yabo hari urukuta rusa ubururu, rwandikishije mu nyuguti zisa umweru.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere hicaye abagabo babiri, umwe yambaye umupira umweru n'ijire isa ubururu, undi yambaye ishati isa ikigina n'ipantaro isa umukara, n'imbere ye hari terefone, abo bantu ahantu bicaye hariho hasi tapi isa icyatsi, biragaragara ko bari mu nama.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara imbere hari ameza asa shokora ariho amazi ariho amakaye, ateretseho na mudasobwa inyuma yabo hari urukuta rusa umweru biragaragara ko bano bantu bari nko mu nama.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara n'umutuku, imbere yabo hari ameza asa umutuku, inyuma yabo hari urukuta rusa umweru n'inzugi zisa shokora, aba bantu biragaragara ko bari nko mu nama, hasi hariho n'amakaro asa umweru.

Abantu batandukanye imbere yabo kumeza hari igitambaro cy'umweru hateretseho telefoni, amakaye, amakaramu, mudasobwa n'amazi inyuma yabo hari urukuta rusa ubururu hasi naho harasa ubururu.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zi isa umukara, imbere yaboho hari ameza asa umukara ateretseho mudasobwa, amazi, amakaye terefoni, inyuma yabo hari urukuta rusa umuhondo, bano bantu bicaye mu nama bateze amatwi.

Abantu batandukanye bahagaze ku murongo, hasi hariho amakaro asa umukara n'umweru, inyuma yabo hari ahantu hasi umutuku n'umweru, hari n'icyapa gisa ubururu, umweru, handikishije inyuguti zisa umweru n'umutuku.

Umukobwa uhagaze yambaye imyenda isa shokora, afashe mikoro isa umukara na terefoni, yicaye ku ntebe isa umweru n'umuhondo, inyuma ye hicayeho n'abandi bantu, inyuma hari urukuta rusa umweru, afite mikoro, arahagaze, bigaragara ko afite n'ijambo ari kuvuga.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umutuku ziciyeho akarongo gasa umuhondo, hahagazeho umugore wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati isa umweru n'ipantaro isa umukara, ari kuvugana n'umugabo wambaye ishati isa umukara, biragaragara ko bari mu nama afite nk'ikibazo ari kumubaza, inyuma yaho hari urukuta rusa umweru.

Abantu babiri, imbere yabo hari igitambaro kiri ku meza gisa umweru, imbere yabo hari n'akandi gatambaro gasa umweru n'umukara, umwe yambaye imyenda isa umutuku n'umukara, afite mikoro mu ntoki, yambaye amadarubindi, imbere ye hari terefone n'akabuni k'amazi n'ikaye ifite ibara rya shokora, undi nawe imbere hariho terefone ebyiri n'akabuni gasa umweru, afite n'imisatsi isa umukara.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza asa shokora, ateretseho mudasobwa n'amazi na telefoni, hariho n'amakaye, biragaragara ko bari mu nama bari kugenda bahuza ibitekerezo.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku byatsi bisa icyatsi, imbere hari abantu babahagaze imbere; hari umugabo wambaye imyenda isa icyatsi n'uwambaye ijiri isa umukara; afite igipapuro mu ntoki, hirya hari ibiti bisa icyatsi n'inyubako ifite ibara risa umweru n'umuhondo biragaragara ko hano hantu habereye inama y'abaturage.

Abantu benshi batandukanye, inyuma hari urukuta rusa umweru hahagaze umuntu wambaye imyenda y’umukara, bicaye ku ntebe zisa umukara, hasi hari tapi isa umutuku. Biragaragara ko hano habereye nk'inama, bateze amatwi bari kumva uwayikoresheje.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara. Imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati isa umweru n'isaha isa umukara n'ipantalo isa icyatsi. Inyuma ye hari icyapa gisa ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa umweru n'irindi bara risa umuhondo, umweru, ubururu, icyatsi. Biragaragara ko bari mu nama.

Icyapa gisa ubururu cyandikishajeho mu nyuguti zisa umuhondo n'umweru n'umukara. Hasi hariho mudasobwa irimo ibintu byandikishije inyuguti zisa umukara n'umweru n'ibara risa umuhondo n'ubururu. Hirya yaho hasa ubururu, hasi harasa umweru no hejuru hasa umweru.

Umugabo uhagaze ku muhanda w'igitaka yambaye agapira kijimye kanditse inyuguti zisa icyatsi n'umweru, yambaye isaha isa umukara n'umweru n'ipantaro isa umukara n'inkweto zisa umukara, imbere ye hari inyubako ifite ibara risa ubururu hejuru hariho amabati asa umutuku, hejuru yaho hari ibicu bisa umweru nu'ubururu, biragaragara ko ari ku manywa.

Umunara w'itumanaho ujyana amarezo ahantu hatandukanye, ufite ibyuma bisa umukara n'umweru, n'utuntu tumeze nk'utuzeru dusa umweru. Hakurya hariho n'ibindi byuma bisa umukara n'umweru, hejuru hariho ibicu bisa ubururu n'umweru. Biragaragara ko ari ku manywa.

Abantu batandukanye imbere yabo hari ameza asa shokora, ateretseho mudasobwa na telefoni n'ubuni tw'amazi, inyuma yabo hariho urukuta rusa umweru, imbere yabo hari umugabo umanitse ikiganza, wambaye agapira gacoyemo uturongo tw'ubururu n'umweru, biragaragara ko afite nk'ibintu ari kubigisha.

Umugabo wambaye amadarubindi n'ishati irimo uturongo dusa umweru n'umukara, n'ikoti risa ubururu, yicaye ku ntebe isa umukara, imbere ye hari ameza ya shokora, ateretseho mudasobwa, mudasobwa mo imbere irasa umweru, hejuru harasa umuhondo n'ubururu, handikishije inyuguti zisa umukara. Hepfo hari inyuguti zandikishije ubururu.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza asa shokora ateretseho mudasobwa, afite insinga zisa umukara; hasi hariho amakaro asa umweru, hakurya hari inkuta zigiye zisa umweru; biragaragara ko ari abanyeshuri baje kwiga.

Abantu batatu bambaye imyenda isa ubururu n'ubupfukamunwa busa umukara n'ubururu, inyuma yabo hari umunara ujyana amarezo ahantu hatandukanye, hasi hari ibyatsi bisa icyatsi n'ibikapu bisa umukara, hirya y'aho hari n'ibindi byuma bijyana amarezo.

Ipoto risa umweru, ririho utubogisi dusa umweru n'umukara, hariho insinga zisa umukara, zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye, hasi y'iri poto harasa umweru, hejuru naho hagasa umweru, inyuma harasa ubururu, biragaragara ko ari ku manywa.

Imodoka isa umukara, iparitse ku mabuye yijimye, imbere hari inyubako nziza cyane, isize irangi ry'umukara n'ubururu, umuhondo n'umweru, hariho imbere ameza asa umutuku n'amakesi asa umutuku n'ubururu, mu imbere mu nzu harimo ibicuruzwa bitandukanye.

Icyapa gisa ubururu, cyandikishijeho inyuguti zisa umuhondo n'umweru, harimo terefone isa umukara, ishushanyijemo inyuguti zisa umukara n'umweru, harimo amabara asa umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Umukobwa ufite imisatsi isa umukara, wambaye agapira gasa umweru, imbere ye hari ameza asa shokora, ateretseho telefone n'impapuro n'amazi na mudasobwa, inyuma yiwe hari urukuta rusa umweru, rwandikishijeho inyuguti zisa ubururu n'umweru n'umukara.

Umukobwa urikumwenyura cyane yambaye agapira gasa umuhondo, n'ipantaro y'ubururu, inkweto z'umweru, inyuma ye hari imodoka isa umweruru n'umukara imbere ye hari terefone isa umukara, mu imbere hasa umweru, n'ubururu, n'umukara handikishije mu nyuguti zisa umukara. Hejuru na ho hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu.

Umuhanda usa shokora, hakurya hari akazu gasa umuhondo gashoyemo uturongo dusa umukara, kandikishije inyuguti zisa umukara. Imbere hari ibiti bifite indabyo zisa icyatsi. Hirya ya ho hariho n'inyubako isize irangi risa umuhondo. Hari ipoto ririkujyana umuriro ahantu hatandukanye.

Abantu batandukanye imbere yabo hari ameza asa shokora atetseho mudasobwa, bambaye n'udupfukamunwa dusa umukara, imbere yabo hari umuntu wambaye umupira usa ubururu n'umweru uri kubereka nk'ibintu muri mudasobwa bashobora nabo kwiga.

Akazu gasa shokora, kicayemo mo mbere abantu, imbere y'abo hari ameza asa shokora hateretseho mudasobwa n'amazi yo kunywa, hirya y'abo hari ibyatsi byinshi bisa icyatsi, biragaragara ko hano hantu bahafatira serivisi zitandukanye, uje nko kuhagurira ibyo kurya.

Umunara w'itumanaho ujyana amarezo ahantu hatandukanye ufite ibyuma bisa umukara n'umweru hasi hari n'ibindi byuma bikoteye uyu umunara bisa umukara n'ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi hejuru hari igicu gisa ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Abantu batandukanye bahagaze. Umwe yambaye umupira w’umweru, agapfukamunwa k’ubururu, n’ingofero y’umukara. Undi yambaye ishati y’umweru afite ikaye mu ntoki, barangariye muri terefone hari ibintu bari kurebamo. Hepfo yabo, hari umukobwa wambaye agapfukamunwa k’ubururu, afite imisatsi y’umukara n’umuhondo, yambaye imyenda y’ubururu ndetse afite n’agakapu k’umukara.

Umunara w'itumanaho ujyana amarezo hirya no hino ku isi hatandukanye, ufite ibara risa umutuku n'umukara n'umweru, hejuru hariho ibicu bisa numweru n'ubururu, biragaragara ko ari ku manywa, hasi hari insina zifite ibara risa icyatsi n'ibyatsi bisa icyatsi.

Umuhanda usa shokora hakurya hari inzu ifite inzugi zisa icyatsi n'imbere hahagazemo umugabo wambaye jilisa umuhondo ni'ishati iciyemo uturongo dusa umweru n'umukara yambaye nipantaro isa ubururu n'inkweto zisa umweru imbere ye hari ameza asa umweru hakurya hari urukuta rusa shokora.

Umunara w'itumanaho ujyana amarezo ahantu hatandukanye, ufite ibyuma bisa umweru n'umutuku n'umukara, hasi hari ibyatsi byinshi bisa icyatsi, ruguru hari akabogisi gasa umweru. Hejuru hari ibicu bisa ubururu n'umweru biragaragara ko ari ku manywa.

Inyubako nziza cyane isize irange risa umweru n'umuhondo, harimo utubogisi two bakandaho tw'imiriro dusa umweru n'umukara, hasi hariho amakaro asa umweru n'intebe zisa umukara.

Ipoto risa umweru hariho insinga nyinshi zisa umukara n'utubogisi dusa umweru, izi nsinga zijyana umuriro ahantu henshi hatandukanye, hejuru hariho ibicu bisa umweru biragaragara ko ari ku manywa.

Inyubako nziza cyane isinze irangi risa umukara n'umweru, ifite amadirishya asa umweru, imbere hari icyapa gisa umweru, cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu. Imbere yaho hariho n'ipoto risa umweru rifite insinga zisa umukara, zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye.

Umuhanda usa umukara utangijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hakurya hari imodoka z'umukara n'umweru, ruguru hari inyubako isize irangi risa umutuku, imbere hari ipoto risa umukara riri kujyana insinga ahantu hatandukanye.

Abagabo batanu bambaye imyenda isa umukara n'ingofero zisa ubururu, bahagaze ku byuma bisa umukara n'umweru, biragaragara ko bari kwesitaraho umuriro ujyana hirya no hino ku isi.

Umuhanda usa shokora imbere yawo hari icyapa gisa umweru, cyandikishijwe inyuguti zisa umukara n'umutuku. Inyuma hari urukuta rusize risa umweru n'umukara, hasi hubakiye utubuye dusa umukara n'umweru, hariho n'indabyo nziza cyane zisa icyatsi.

Umuhanda usa shokora, ukikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara, hirya hariho ipoto risa umweru, rifite insingazi z'umukara, zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye, hasi hari ibyatsi bisi icyatsi n'ibiti bisa byatsi byinshi cyane, hejuru hariho igicucu gisa umweruru n'ubururu, biragaragara ko ari ku mankwa.

Igipangu gisa umukara, gikikijwe n'amabuye asa shokora n'umukara, hari akapa gasa umweru, kandiditseho inyuguti zisa umukara, mu imbere harimo inzu ifite irangi risa umweru, hejuru hari amabati asa umutuku, hejuru hariho insinga zisa umukara, zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye, n'ibiti biri hirya bisa icyatsi.

Umunara w'itumanaho ujyana amarizo hirya no hino hatandukanye, hejuru hariho ibicu bisa ubururu n'umweru biragaragara ko ari ku manywa, hasi hariho n'ibiti bisa icyatsi n'umukara, hejuru hasa umweru, hasi hasa umweru.

umunara w'itumanaho ufite ibyuma bisa umweru, bijyana amarezo ahantu hatandukanye, hasi hariho inzu ifite ibati risa umutuku n'ibyatsi bisa icyatsi hakurya harihoho n'indi midugudu myinshi ifite amabati asa umutuku.

Urukuta rusize irange risa umukara n'umweru hirya yaho hari umunara ujyana amarezo ahantu hatandukanye, hino hariho n'ibyuma bisa umweru n'umutuku hejuru hari ibicu bisa umweru n'ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Ifoto rijyana umuriro ahantu hatandukanye, ifite insiga risa umukara, n'ibyuma bisa umweru n'umukara. Imbere yaho hari umuntu uri kuhaza, wambaye imyenda isa umukara, hirya hariho n'umuntu wambaye imyenda isa ubururu. Hasi hari indabyo zisa umutuku, n'umuhondo, n'umweru.

Insinga zisa umukara, zijyana umuriro hirya no hino, ahantu hatandukanye, hasi hariho inzu ifite irangi risa umuhondo, n'amabati asa ubururu, hejuru hari ibicu byijimye, biragaragara ko bwije.

Amapoto menshi atondetse umurongo asa umweru, hejuru hariho insinga nyinshi cyane zijyana umuriro ahantu hatandukanye, hasi hari indabyo nziza cyane zisa umutuku, umuhondo, icyatsi, hakurya hariho n'ibindi biti bisa icyatsi, hejuru hariho ibicu bisa umweru n'ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Umunara ujyana amarezo ahantu hirya no hino hatandukanye, ufite ibyuma bisa umukara n'umweru hariho n'insinga zijyana umuriro hirya no hino, hasi hari ibyatsi bisa icyatsi, hicayeho n'abantu batandukanye.

Amapoto asa umweru, ari ku mabuye yijimye, afite insinga zisa umukara, zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye n'ibiti bisa icyatsi. Hirya y'aho hariho n'ibicu bisa umweru, biragaragara ko ari ku manywa.

Umuhanda usa igitaka uri kugendaho abantu batandukanye, umugabo wambaye ipantaro isa shokora n'umupira wijimye, afashe akalitiro mu ntoki, inyuma yiwe hari abantu bambaye imyenda isa ubururu n'umutuku, hakurya hariho n'inzu isize irangi risa umweru, hariho n'iyubakishije amabati asa umuhondo n'umutuku.

Umuhanda usa umukara, uri kugendamo umugore wambaye umupira usa umweru n'igitenge gisa icyatsi n'umukara, hirya ye hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi, haparitsemo imodoka zitandukanye umutuku, umweru, ubururu.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa umuhondo n'umweru, yubakishijwe amabuye asa umukara na shokora, ufite inzugi n'amadirishya bisa umukara ,hicayemo umuntu yambaye imyenda y'umweru yicaye ku ntebe yumukara ,nabandi bicaye hanze bambaye imyenda isa umuhondo ,hano biragaragara ko ari kwa muganga baje kwivuza.

Abantu benshi cyane bahagaze kumabuye yijimye, imbere yabo hari ikimodoka kinini gisa umweru, kiriho ibara y'umutuku, hejuru kiri kwaka amabara asa umuhondo n'umutuku, biragaragara ko havutse ikibazo, iriya ni imodoka itwara umuntu ugiye gupfa, bakihuta bakamujyana kwa muganga, imbere hari inyubako ifite irangi risa umuhondo.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, hasi hariho amakaro asa umweru, hejuru hariho parafo zisa umweru n'amatara asa umweru, ibikuta na byo bisa umweru, inzugi zisa umukara. Imbere yabo bahagaze umugabo n'umugore, umugore yambaye imyenda isa umweru na rinete zisa umukara, biragaragara ko hano hantu ari kwa muganga baje kwivuza.

Inzu isize irangi risa umukara n'umweru, hasi hariho amakaro asa umweru, urugi rusa umukara, hakurya aho bakarabira na ho hasa umweru, hirya yaho hasa umukara. Iteretseho indobo isa umutuku.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa shokora hari umuntu u wicaye wambaye imyenda isa iroza hirya hari urukuta risa umweru hariho icupa risa umutuku rizimya ahantu iyo hahiye. Hano hantu biragaragara ko ari kwa muganga ko bicaye bategereje abaganga ngo babafashe.

Intebe zisa umukara n'umweru impande y'izi ntebe hari akagari k'umuntu wavunitse gasa umukara n'umweru hirya hari urukuta rusa umweru hejuru hari parao zisa shokora hasi hariho amakaro asa umweru hariho n'amatara asa umweru.

Umugabo wambaye igikanzu gisa umutuku na karuvati isa umukara n'ishati isa umweru, imbere hasa umukara, inyuma ye hari urukuta rusa umweru, biragaragara yuko ari umucamanza ari kuburanira abantu cyangwa akabashinja ibyaha bakoze.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza asa shokora atetseho amakaramu n'amakaye n'akabogisi gasa shokora, bano bantu biragaragara ko bari nko mu nama zitandukanye.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe isa umukara, imbere yabo hari ameza asa shokora ateretseho mudasobwa n'impapuro n'amazi n'amakaramu, biragaragara ko bari mu nama. Hari umugabo wicaye imbere wambaye ikoti risa ubururu n'ishati isa umweru na karuvati isa umukara, afashe mikoro ari kuvuga ijambo abandi bamuteze amatwi.

Abantu babiri bari kumwenyura bafashe akabogisi gasa shokora, bambaye amakoti asa umukara, karuvati isa umutuku n'ishati isa umweru, n'undi yambaye karuvati isa umukara n'umweru n'ishati isa umweru. Inyuma yabo hari urukuta rusa shokora, hasi hari amakaro asa umweru.

abantu benshi batandukanye bicaye ku byatsi bibisicyatsi bamwe bitwikira imitaka abandi bitwikira ibitenge hariho n'abantu bicaye ku ntebe za shokora n'amezi ari imbere yabo sa shokora ateretseho amakaramu n'amakaye imbere yabo hahagaze umuntu wambaye ishati isa ubururu n'ipantaro isa umwe n'umusatsi w'umukara none abantu biragaragara ko bari mu nama uyu muntu uhagaze ari kuvuga iki ikibazo cyiwe bakacyumva.

Umugabo yambaye ishati isa umweru, n'ikoti ririmo amabara asa umukara, n'ubururu inyuma ye hari urukuta rusa umuhondo hejuru hasa umweru, no hasi hagasa umukara, uwo muntu biragaragara ko yicaye ari utekereza cyane.

Abantu benshi batandukanye bari mu nama, hirya yaho hari ibiti bisa umukara, n'inzu ifite irangi risa umweru, hejuru hariho ibati ryererutse, hirya hariho n'ibiti bisa icyatsi, biragaragara yuko hano hantu hakorewe inama y'inteko yo mu mudugudu.

Inyubako yubakishije amatafari asa umukara n'umweru, ifite igipangu gifite ibyuma bisa umukara, hejuru hariho icyapa gisa umweru, cyandikishije mu nyuguti zisa umukara. Biragaragara ko iyi nzu ariyo bafungiramo abantu bakoze ibyaha.

Abantu batandukanye bambaye ibikanzu bisa umukara, imbere hasa umweru, bambaye amadarubindi, bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza asa shokora, biragaragara ko ari abashinjacyaha cyangwa bakagukiranura. Hagati hicaye umugabo wambaye imyenda isa iroza, biragaragara ko yaje kuburana ngo atahe cyangwa akomeze afungwe.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda isa iroza n'uwambaye igikanzu gisa umukara na karuvati isa umweru n'agapfukamuwa gasa ubururu. Bicaye ku ntebe zisa umukara n'inzugi zisa shokora. Biragaragara y'uko uyu nguyu ari umucamanza, abangaba ari abakoze ibyaha baje kuburana ngo bakiranurwe cyangwa babafunge.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ikimodoka gisa umweru kiriho amabara y'ubururu n'umutuku, hirya yacyo hari inyubako nini cyane isize irangi risa umukara n'umweru, itangirijwe ibyuma bisa umukara, n'inzugi zisa umukara, n'amarido asa umukara. Imbere hari ikindi kimodoka gisa umweru n'umukara n'indi isa umukara.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku byatsi bisa icyatsi, mbere yabo hateretse gaze isa umuhondo iteretseho isafuriya, imbere hari umuhungu ahahagaze wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru, afashe icupa risa umutuku, biragaragara ko gaze yatombotse ari nko kuyizimya.

Imodoka isa umukara iparitse harimo umuntu wambaye imyenda isa umukara, yakinguye ikirahure imbere ye hahagaze umugabo wambaye imyenda isa umukara, harimo n'ibara risa icyatsi. Ku myenda ye handikishijeho inyuguti zisa umweru, biragaragara ko ari umuntu ushinzwe umutekano ari kumwaka ibyangombwa.

Icupa risa umutuku, hejuru hariho urutsinga rusa umukara bafata iyo bari kuzimya nk'inzu yahiye hahambirijeho n'akantu gasa umuhondo, hasi hariho icyapa gisa ubururu cyandikishije inyuguti zisa umweru, hariho n'amakaro asa umweru, hariho na puberi irimo imyanda.

Umugabo uhagaze umeze nkaho ari kuvuga yambaye imyenda isa umukara, ukuboko hariho ikirangantego gifite ibara risa umukara n'umuhondo n'icyatsi n'ubururu, inyuma ye hari icyapa gisa ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa umukara, uyu mugabo biragaragara ko ashinzwe umutekano afite nk'ikintu ari kubwira abaturage.

Umuhanda w'umukara, ukikijwe n'amabuye y'umukara n'umweru, uri kugendamo ikimodoka kinini cy'umukara n'umweru. Hakurya hari akayira k'abanyamaguru, kari kugendamo abantu. Ruguru, hari ibiti by'icyatsi, imbere hari imodoka y'ubururu n'umutuku. Hejuru, hari ibicu by'umweru n'ubururu, biragaragara ko ari kumanywa.

Umuhanda usa, shokora ushoramo uturongo dusamweruru haparitsemo imodoka isa umukara. Iriho icyapa gisa umweru cyakishe inyuguti zisa umukara imbere hari ibyatsi bisa icyatsi. Hateretsemo akabosu gasa icyatsi, imbere hariho n'icyuma gisa ubururu giteretseho ikigega bashyiramo amazi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa gasa ubururu, n'ingofero isa umukara, n'imyenda isa umukara, ishoyeho uturongo dusa icyatsi, afashe igihombo ari kohereza amazi mu muhanda w'umukara, uri kugendamo imodoka isa umuhondo, hakurya hari ibyatsi byinshi cyane n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda w'igitaka urikugendamo umugabo kuri moto yambaye ingofero isa umutuku, imbere ye hahagaze umuntu ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'umukara, yamanitse ukuboko yamuhagaritse. Hirya ye hari imodoka isa umukara n'umweru iparitse. Imbere hariho amatara yo mu muhanda, n'ibiti bisa icyatsi n'imodoka ziparitse harimo isa ubururu n'abantu benshi.

Amacupa asa umutuku, ateretse ku makaro asa shokora, yandikishije inyuguti zisa umweru n'umukara, hejuru hari icyuma gisa icyatsi n'ikindi gisa umukara, ano macupa bayifashisha nk'iyo inzu yahiye bari nko kuhazimya.

Umuntu uri kugenda mumuhanda yambaye imyenda isa umukara, iciyeho uturongo dusa icyatsi, ni umuntu ushinzwe umutekano, inyuma yiwe hari moto n'imodoka, hirya y'izi modoka hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi n'ibiti bisa icyatsi, mu muhanda hari kugenda mo ikimodoka kinini gisa umweru n'umukara gihetse abagenzi benshi, n'isa umweru n'isa ubururu.

Abantu benshi batandukanye batonze umurongo, bambaye imyenda isa umukara, bashinzwe umutekano ku kuboko kwabo, hagiye hariho icyapa gisa ubururu umuhondo icyatsi, hirya yabo hari inyubako nziza cyane, isize irangi risa umweru, biragaragara ko ari kumanwa.

Abantu benshi batandukanye bamanitse ibipfunsi n'amadarapo asa ubururu umweru, umutuku bishimye cyane hari umugabo wambaye ingofero isa umukara n'amadarubindi asa umukara yambaye umupira usa umweru yishimye cyane nawe biragaragara ko ari kwiyamamariza ko bamutora akabayobora.

Abantu batandukanye bamanitse ibiganza bambaye imikenyero isa: umutuku, umuhondo umweru, mo imbere bagiye bambayemo udusengero dutandukanye, imbere yabo hari idarapo risa ubururu, umuhondo, icyatsi; inyuma yabo hari urukuta rusa umweru, biragaragara ko ari abategarugori bishimye.

Abantu benshi batandukanye bambaye imipira isa umweru n'ingofero zisa umutuku n'umweru bamanitse ikidarapo kinini gifite ibara risa umutuku n'umweru n'ubururu, bishimye cyane biragaragara ko hari nk'umuntu uri kwiyamamariza kubayobora, hejuru hariho ibicu bisa umweru n'ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Abantu batandukanye bamanitse ikiganza bafashe ku madarapo, biragaragara ko bari kurahira, amadarapo asa umuhondo n'ubururu n'icyatsi, hari umugabo wambaye ikoti risa umukara, n'ipantaro isa umukara, n'ishati isa umweru na karuvati isa umutuku. Bahagaze ku makaro asa umweru.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza asa shokora, ateretseho amakaye, n'amakaramu na mudasobwa, n'indangururamajwi, imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti risa umukara, n'ikaruvati isa umukara n'umweru, n'ishati isa umweru, bano bantu bari mu nama bateze amatwi.

Umugabo uri kumwenyura cyane yambaye amarinete asa umukara, yambaye karuvati isa ubururu n'ishati isa umweru n'ikoti risa umukara, inyuma yiwe hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hejuru hari ibicu bisa umweru biragaragara ko ari ku manwa.

Abantu benshi bamanitse amadarapo asa umutuku, n'umweru n'ubururu. Mu idarapo handikishije inyuguti isa umukara, bishimye cyane hari umugabo bahagaze mo hagati wambaye ishati isa umweru na rineti z'umukara, n'agapfukamunwa gasa umweru, n'ingofero isa umukara. Bamwishimiye cyane biragaragara ko ari kwiyamamariza kuba perezida wabo.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda isa umukara, n'umugabo wambaye umupira usa umweru n'ingofero isa umukara, n'ipantara isa umukara, bahagaze ku byatsi bisa icyatsi, hirya hariho n'abandi bantu benshi bamanitse amadarapo asa umweru, umutuku, ubururu. Biragaragara ko hano hari umuntu urikwiyamamariza kubayobora. Hirya hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Abantu benshi batandukanye batonze umurongo bari kwinjira mu nzu, biragaragara ko hano hantu bari nko kuza kuhatorera umuperezida abandi bicaye ku byatsi bisa icyatsi hashushanyijeho uturabyo dusa umuhondo ubururu n'icyatsi.

Abantu benshi bambaye imyenda isa umukara n'umweru, ku mashati hariho ikirangantego gisa umuhondo n'icyatsi, bamanitse amadarapo asa umuhondo n'umweru n'icyatsi, bishimye cyane biragaragara ko hari umuntu uri kwiyamamaza kubayobora.

Umugabo wambaye amadarubindi n'ishati isa umweru na karuvati isa umukara n'umweru n'ikoti risa umukara, imbere ye hari ameza asa umweru hateretseho mikoro, inyuma y'iwe hasa ubururu, biragaragara ko ahagaze imbere y'abantu bari mu nama afite nk'ibintu ari kubabwira.

Umuntu wicaye ku ntebe isa umukara, yambaye ikoti isa umukara, n'imyenda isa umukara, n'umweru, yambaye n'amadarubindi. Imbere ye hari ameza asa shokora ateretseho terefone, ateretseho n'ikaye, n' ikaramu, n'amazi. Inyuma ye hari urukuta rusa ubururu rwandikishije mu nyuguti zisa umweru. Biragaragara yuko uyu muntu ari nko mu nama.

Abantu benshi bahagaze bambaye imipira isa icyatsi n'umutuku n'umuhondo, bishimye cyane imbere yabo hari imodoka isa umukara n'umweru ahahagaze nk'umugabo wambaye umupira usa ubururu, biragaragara yuko ari kwiyamamaza bamwishimiye.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu mutaka usa umweru, uciyeho akarongo gasa umutuku n'ubururu, biragaragara y'uko hariho umuntu waje kuhiyamamariza, bambaye imipira isa umutuku, umweru, umukara, bishimye cyane, hakurya hari inyubako isize irange risa umweru n'ibyatsi bisa icyatsi.

Abantu benshi batandukanye biragaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro bisa umuhondo n'umutuku. Imbere yabo hari umuntu uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro isa umukara, n'inkweto zisa umukara, hejuru hariho parafo zisa umweru n'amatarasa umweru, hasi hariho n'amakaro yijimye biragaragara yuko uyu muntu afite n'ijambo ari kubabwira.

Inyubako igeretse gatandatu ifite amadirishya asa ubururu, isize n'irangi risa umukara n'umweru; hakurya hari n'indi nyubako isize irangi isa umweru n'amadirishya asa ubururu. Hasi y'izi nyubako hariho ibyatsi byinshi bisa icyatsi, hariho n'icyapa cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, moto, imodoka, hakurya hari imodoka isa umukara n'umweru n'amatara asa umuhondo n'ibiti byinshi cyane bisa umukara, biragaragara ko bwije cyane.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo ikimodoka kinini cyane gisa umutuku, ifite n'amapine asa umukara gipakiye umucanga, hejuru shitingi ihatwikije isa ubururu, hirya ya ho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, n'amapoto n'itara ryo kumuhanda. Hino hariho akayira k'abagenzi kegeranye na rigori ijyana amazi.

Umuhanda usa umukara ushoyemo amakarongo gasa umweru n'umuhondo, hirya hari amabuye akikije umuhanda asa umukara n'umweru haparitseho umumotari, hirya hari n'abamotari bari kuza hariho n'amapoto yo ku muhanda n'amatara, hirya hari urukuta rusa umweru n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Imodoka iri kugenda mu muhanda usa umukara ifite ibara risa umweru n'umukara, hirya y'iyi modoka hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'umukara, hino hariho umunyonzi uhetse umuntu yambaye umupira usa umuhondo n'ipantaro isa umukara n'umugenzi ahetse yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro yijimye.

Umuhanda use umukara usharuyemo imirongo isa umweru, hari kugendaho ikimodoka gifite ibara risa umweru n'icyatsi n'umukara, imbere yacyo hari kuza abamotari n'imodoka zitandukanye, hariho n'amapoto afite amatara yo ku muhanda n'ibiti biri inyuma bisa icyatsi n'umukara, hejuru hari ibicu bisa ubururu n'umweru biragaragara ko ari ku manywa.

Umuhanda usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara, hari kugendamo ikimodoka kinini gisa icyatsi n'umutuku, n'umukara, inyuma hari imodoka isa umwe n'umukara, ruguru hari ibiti bisa icyatsi n'amapoto ariho amatara yo ku muhanda.

Abamotari benshi baparitse moto bambaye amajiri asa ubururu n'umuhondo na kasike zisa umutuku, imbere yabo hari inyubako nziza cyane isize irangi risa umuhondo n'umweru, hirya rewe hariho n'akayira k'abanyamaguru bari kugenda.

Umuhanda w'umukara ushoyemo akarongp gasa umweru, hari kugendamo imodoka isa umweru n'umukara, ipakiye umuzigo upfundikije shitingi isa ubururu, hakurya hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi hariho n'amapoto yo kumuhanda ariho amatara n'insinga zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye. Haparitseho n'abamotari.

Umuhanda usa umukara ushoyemo akarongo gasa umweru ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru haparitse nk'umumotari wambaye ijiri isa umuhondo n'ubururu yambaye ikasike y'umukara ahetsa umugenzi wambaye imyenda yusaumweruru n'umutuku umugenzi yambaye ikasike isa umutuku hakurya hari igipangu gisa umweru ifite intsinga zisa umukara hariho n'amapoto ariho amatara yo ku kumuhanda.

Umuhanda usa umukara, uparitsemo imodoka isa umukara n'umweru, imbere y'iyi modoka biragaragara ko yakoze impanuka, hirya hari abantu benshi bashungereye, hirya hari n'izindi modoka ziri kugenda n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo ikimodoka gisa umweru gifite amapine asa umukara, imbere hari kugenda abanyonzi babiri, hirya y’abo hari ibiti bisa umukara n'icyatsi, hirya y’aho hari n'izindi nyubako nyinshi n'akayira k'abanyamaguru kari kugendamo abagabo babiri.

Umuhanda uri kugendamo ikimodoka kinini cyane gipakiye matera isa umutuku, ubururu, umweru, hejuru hariho igishitingi gisa ubururu, hirya hari ibiti byinshi bisa icyatsi, inyuma y'iki kimodoka hariho n'akandi kamodoka gato gasa umweru n'ubururu.

Umuhanda w'umukara uri ukugendamo imodoka isa ubururu, umuntu uyitwaye yambaye ipantaro isa umukara n'ishati isa umweruru, hirya hari kugenda n'abanyonzi n'abamotari, hari n'ibiti bisa icyatsi n'umukara, hari na rigori ijyana amazi, ruguru ya rigori hari ibyatsi bisa icyatsi.

Imodoka nyinshi ziparitse ku muhanda usa umukara, harimo isa umweru n'umukara, imbere yaho hari umuntu wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira usa umukara, afashe indobo mu ntoki. Hirya y'aho hari n'izindi modoka zisa umukara n'umweru n'ubururu, biragaragara ko hano ari muri gare, aho bategera, aho izi modoka ziparitse.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo imodoka zitandukanye, harimo n'ikimodoka kinini gisa umweru n'umukara, inyuma hariho akapa gasa umutuku n'umuhondo, gipakiye imifuka myinshi cyane, hejuru hariho shitingi isa umweru, hirya hari imodoka isa umukara n'umweru n'ikindi kimodoka gisa ubururu n'umukara, imbere yaho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'amatara yo kumuhanda.

Umuhanda usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, ruguru hariho ibyatsi bisa icyatsi n'urukuta rusa umweru, hariho n'amapoto ariho amatara yo ku muhanda n'ari kujyana insinga umuriro hirya no hino hatandukanye hari kugendamo mu muhanda umumotari wambaye ijire isa umuhondo n'ubururu na kasike isa umutuku.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo ikimodoka kinini gisa umutuku gifite n'amapine asa umukara hirya yiki kimodoka hari itara ryo ku muhanda n'ibiti byinshi bisa umukara n'icyatsi ku kayira k'abanyamaguru hari kugenda abantu babiri umugore yambaye ijire risa umuhondo nigitambaro gisa umukara n'undi wambaye imyenda isa ubururu afite nk'ikintu mu ntoki gisa umuhondo n'undi afite terefone.

Umuhanda usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umweru, n'ibyuma bisa umukara, hari kugendamo imodoka n'abamotari, hari imodoka isa umukara n'umumotari yambaye ijiri isa umuhondo n'ubururu, yambaye na kasike zisa umutuku n'umukara, hirya yaho hari no kugenda n'umuyonzi, n'ibiti bikikije umuhanda bisa icyatsi, n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda usa umukara, uri kugendamo ikimodoka gisa umweruru, hirya hariho itara ryo kumuhanda, hari kugendamo n'ikindi kimodoka gisa umweru, inyuma yicyo kimodoka, hari umuntu wambaye imyenda yumutuku n'abamotari bari kugenda. n'umuntu wambaye ishati y'umweru, n'ipantaro isa ubururu.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ikimodoka gisa umutuku gifite amapine asa umukara, hejuru harimo umucanga, hatwikishishitingi isa umweruru, hirya yaho hari rigori ijyana amazi n'akayira k'abanyamaguru, hirya yaho hari n'ikimodoka gisa ubururu n'umweru gifite amapine asa umukara, n'ibiti bisa icyatsi n'umukara, n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda w'igitaka uciyemo akarongo gasa umweru, uparitsemo ibimodoka binini bisa umukara n'umweru n'icyatsi, hirya yaho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'amatara yo mu muhanda n'ipoto rijyana umuriro hirya no hino hatandukanye.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo ikimodoka gisa umutuku gifite amapine asa umukara, hirya yaho hari ibiti bisa icyatsi n'umukara, hirya yaho hariho n'akayira k'abanyamaguru, hariho rigori ijyana amazi.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo akamodoka gasa umweru gafite amapine asa umukara, hari kugendamo umumotari yambaye ingofero isa umweru atwaye moto isa umutuku, hirya ye hari ibyatsi byinshi bisa umweru n'ibitibisi icyatsi, hirya hari akayira k'abanyamaguru kariho rigori ijyana amazi n'inyuma hari abantu bari kugenda ku kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda uciyemo akorongo gasa umweru hari kugendamo ikimodoka kinini gifite ibara ry'icyatsi n'umweru n'umutuku n'umukara, gipakiye imizigo ipfundikije shitingi isa ubururu, hakurya hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'ibicu bisa umweru n'ubururu, hirya hariho n'ibyatsi bisa icyatsi, biragaragara ko ari ku manywa.

Ikimodoka kinini cyane gisa ubururu n'umweru n'umukara, giparitse ku muhanda usa shokora, impande yacyo hari n'ikindi kimodoka gisa ubururu n'umweru n'umukara. Kino kimodoka gitwara abantu ahantu hatandukanye.

Umuhanda w'umukara uciyemo uturongongo dusa umweru, hari kugendamo imodoka nyinshi ari iyise umukara n'umweru, n'indi isa umukara n'umweru yandikishije inyuguti zisa umutuku yanditseho toyota hiryaho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi hari no kugendamo n'abamotari hirya harihoho n'amatara yo mu muhanda.

Ibyuma bifite ibara risa icyatsi n'umuhondo n'umutuku, hejuru hariho igipine gisa umukara, hasi hariho amakaro asa umweru, ruguru yaho hariho n'ikindi cyuma gisa umukara cyo bifatanye.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo imodoka isa umweru, ifite amapine asa umukara, hirya yaho hari abamotari bambaye ingofero z'umutuku, n'amaji asa umuhondo n'ubururu, n'ibiti bisa icyatsi n'umukara, hariho n'insinga zijyana umuriro, hakurya hari n'inyubako nyinshi.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo ikimodoka kiri gusa ibara rikeye risa icyatsi, hakurya hari ibiti bisa icyatsi byinshi, hariho n'akayira k'abanyamaguru kari kugendamo umuntu na rigori ijyana amazi.

Imodoka isa umweru n'umukara, yandikishijeho inyuguti isa umutuku, ifite n'ibara risa umuhondo, iparitse ku umuhanda usa umukara, ukikijwe amabuye asa umukara n'umweru. Hirya hari inyubako ifite ibati risa umutuku, n'amapoto yo kumuhanda n'abantu, n'ibyatsi bisa icyatsi.

Ikimodoka kinini giparitse gifite ibara risa ubururu n'umweru n'umukara kiri kwinjiramo abagenzi hakurya hariho umuntu uri kugenda ku igare wambaye umupira umutuku n'ipantaro yijimye n'ingofero hirya yiwe hariho n'amatara yo ku muhanda n'izindi modoka ziparitse.

Ikimodoka kinini gisa umweru n'umukara kiri kugenda mu muhanda usa umukara ushoyemo uturongo dusa umweru ukikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara, hirya hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi, biragaragara ko ari ku manywa hariho n'amapoto asa umweru yo kumuhanda, ariho amatara.

Umuhanda w'umukara ukikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara hari kugenda mo ikimodoka kinini gisa ubururu n'umweru inyuma hasi umutuku ruguru yacyo hari amatara yo mu muhanda imbere hari imodoka ziparitse zisa umukara hari kugenda n'umumotari hariho n'inyubako ifite ibara risa umuhondo.

Umuhanda usa umukara ushoyeho imirongo isa umweru, ruguru hari akayira k'abanyamaguru, hari kugendamo imodoka zisa umukara n'umweru, inyuma handikishijeho inyuguti isa umukara, handitseho toyota, imbere hari ikindi kimodoka gifite ibyuma hejuru bisa umweru, gisa n'ubururu n'umukara, hakurya hariho ipoto ryo ku muhanda, n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, n'imidugudu myinshi.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ikimodoka gifite ibara risa ubururu, umutuku, umweru, umukara, umuhondo, inyuma yacyo hari kuza abamotari n'abanyonzi n'indi modoka isa umukara n'umweru, hirya hari ibiti bisa icyatsi n'ibisa umukara n'amapoto yo kumuhanda.

Umuhanda siumukara ushiho uturongo dusa umweruru hari kugenda n'imodoka ebyiri, iyisa ubururu n'umukara, n'iyisa umukara n'umweru inyuma iriho agatara gasa umutuku ruguru harira akayira k'abanyamaguru hari kugenda aho umuntu yambaye ipanta isa umukara n'inkweto zisa umweru hakurya n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda uri kugendamo imodoka isa ubururu n'umweru n'umukara, inyuma hari imodoka isa umutuku n'umukara, hirya yaho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hariho n'akayira k'abanyamaguru kari kugendaho abantu, hakurya n'inyubako nziza cyane isize irangi risa umweru.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo iki modoka kinini gisa umweru, gifite amapine asa umukara, imbere hari imodoka isa umukara n'umweru, ifite amatara ari kwaka umutuku, hari kugenda n'abamotari, hirya hari ibiti bisa icyatsi n'amatara yo mumuhanda, n'ikindi kimodoka gisa ubururu.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo imodoka zitandukanye, hari kugendamomo y'umweru ifite amapine asi y'umukara n'umumotari wambaye jeri isa umuhondo n'ubururu, hirya ye hari n'indi modoka isa umukara n'umweru n'ikindi kimodoka kinini gitwara abagenzi benshi gisa umukara, ubururu n'umweru.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ikimodoka gisa umweruru, mo imbere harimo shitingi isa umweru, hirya hari indi modoka isa umweru n'umumotari uhetse umugenzi, wambaye isengeri isa umukara n'ipantaro yijimye, hirya hari ibiti bisa icyatsi, hirya hari akayira k'abanyamaguru kari kugendamo umugabo wambaye ipantaro isa ubururu n'inkweto zisa umukara n'umweru, n'umupira usa umuhondo afite na terefone mu ntoki.

Umahanda w'igitaka uri kugendamo ikimodoka kinini gisa ubururu n'umweru n'umutuku gifite n'amapine asa umukara, hirya yacyo hari kugenda abamotari n'izindi modoka hariho n'agahandada k'abanyamaguru kari kugendaho abantu, hirya yaho hari ibiti bisa icyatsi byinshi n'indi nyubako, ifite ibara risa umukara n'umweru ifite n'intsinga zisa umukara n'umweru.

Umuhanda usa umukara, uri kugendamo ikimodoka gisa imbere umweru, inyuma gisa icyatsi, hirya hari ibiti byinshi cyane bisa umukara n'icyatsi. Hari kugendaho umugabo ku igare wambaye ingofero y'ubururu n'imyenda isa umukara, hirya y'uwo mugabo hari rigori ijyana amazi.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo imodoka isa ubururu n'abamotari n'indi modoka isa umweru, hirya hari icyapa gisa ubururu, gishushanyijeho umugore uteruye umwana hirya hari n'ibindi biti byinshi bisa icyatsi, impande y'uyu muhanda hari rigori ijyana amazi, ruguru ya rigori hari ibyatsi bisa icyatsi.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo imodoka isa umweru n'umukara, ihetse ibyuma bisa umukara, hariho abantu bari kubikuramo bambaye imyenda isa umuhondo n'umweru, hirya hari inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru n'umutuku n'umukara.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ikimodoka kinini gisa ubururu, kirimo amakesi asa umutuku n'ubururu, n'umutuku ukeye n'icyatsi, hari kugendamo n'umumotari uhetse umumama wambaye imyenda isa umweru n'umukara n'inkweto zisa umukara, hirya hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'indi modoka isa umweru.

Umuhanda w'umukara urikugendamo ikimodoka kinini gisa umweru, gifite amapine asa umukara. Imbere harasa ubururu, handikishije ku nyuguti zisa ubururu, hirya yaho hari akayira k'abanyamaguru, hariho rigore ijyana amazi. Hino yaho na ho hari umumotari wambaye ijiri isa umuhondo n'ubururu, na kasike isa umutuku. Hirya ye hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'umukara.

Imodoka nyinshi ziparitse zifite ibara risa umweru n'umukara biragaragara ko ari muri gare ziparitse abagenzi baza gutegera, hirya y'aho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'umukara.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ikimodoka kinini gisa umutuku gifite amapine asa umukara, hirya yacyo hari ibiti bisa icyatsi n'umukara, n'ipoto risa umweru ririho itara ryo ku muhanda hari kugendaho n'abanyonzi n'akayira k'abanyamaguru kari kugendamo umuntu ufite inkoko mu ntoki n'amagi.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo ikimodoka gisa umweru gifite n'amapine asa umukara, hirya y'icyo kimodoka hari akayira k'abanyamaguru, kari kugendamo umugabo wambaye ishati iciyemo uturongo dusa umweru n'umukara n'umutuku, n'inkweto zisa umukara n'umweru n'ipantaro isa umukara hakurya hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo ikimodoka kinini gisa umweru n'umukara, imbere handikishaho inyuguti zisa umutuku, hirya yacyo hari kugenda abamotari n'ibiti byinshi cyane bikikije umuhanda bisa icyatsi, ruguru hari akayira k'abanyamaguru, hasi hari rigori ijyana amazi.

Imodoka iparitse ku muhanda wa shokora ifite ibara risa umweru, n'umukara n'umutuku, imbere yiyo modoka hari igipangu gisize irangi risa umuhondo, nicyatsi n'umutuku, hirya yaho hari darapo risa icyatsi, umuhondo, n'ubururu biragaragara ko ari kumanywa.

Umuhanda usa umukara, ukikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara, uri kugendamo imodoka isa umweru n'abamotari, ruguru hari akayira k'abanyamaguru, kari kugendamo umugore wikoreye, biragaragara ko bwije hariho n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda usa shokora uri kugendamo abantu batandukanye, hirya yabo hari ibyatsi bisa icyatsi, hariho intebe zicayeho abantu, ruguru hari inyubako nziza cyane, ifite irangi risa umweru n'amadirishya asa umuhondo, hasi hari n'igiti gisa icyatsi.

Umuhanda usa igitaka ruguru hari akagozi kazibitseho gasa umweru n'umutuku, hirya yaho hari ibyatsi byiza cyane bisa icyatsi n'igipangu cyubakishije amabuye asa shokora, mo imbere mu gipangu hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi, hakurya hari ibyuma bisa umweru n'umukara n'umuhondo, hirya yaho hariho n'ibisa umweru. Biragaragara yuko hano ari ikibuga cya basiketi.

Umuhanda w'igitaka ushoye mo uturongo dusa umweru, ruguru hari inyubako ifite ibyuma bisa umukara, n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, n'ikindi kibuga cyijimye. Biragaragara ko ari aho bakinira umupira.

Ikibuga bakiniramo gisize n'irangi risa icyatsi n'akarongo karimo umutuku n'umweru, hakurya hari akantu batereramo umupira, gafite ibyuma bisa umweru mo imbere hasa umuhondo, hirya hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi hasi hariho n'ibyatsi bisa icyatsi.

Ikibuga gisa icyatsi gishoyemo imirongo isa umweru n'umutuku, hirya yaho hari amabati asa umutuku, atangijwe n'ibyuma bisa umukara. Hirya hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi, kino kibuga biragaragara ko ari icyo gukiniramo, hariho n'intebe zisa umukara z'abantu bari buze kwicaramo bari gufana.

Igipangu cyubakishije amatafari asa shokora hariho n'ahubakishije sima, hariho ibara risa umukara n'umweru, hariho n'akapa gasa umweru kandikishije inyuguti zisa, umukara hasi hari umuhanda w'igitaka.

Icyapa gisa ubururu cyandikishijeho inyuguti zisa umweru, hasi hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi, ruguru hariho n'ibiti bisa icyatsi, hejuru hariho ibicu bisa umweru n'ubururu, hakurya hariho n'umuhanda uri kugendamo abagenzi n'ikimodoka kinini gisa umukara n'umweru.

Icyapa gisa umutuku cya mpande eshatu hagati harimo umukara n'umweru, hirya y'iki cyapa hari ibiti byinshi bisa icyatsi n'umukara, hejuru hariho ibicu bisa umweru biragaragara ko ari kumananywa, kino cyapa ni icyo ku muhanda kiyobora imodoka.

Icyapa gisa umuhondo gifite mpande enye, mu imbere harimo uturongongu dusa umukara, mu mpande harasa umukara, hejuru hasa umweru no hasi hasi umweru, kino cyapa ni icyo mu muhanda, biragaragara ko kiyobora ibinyabiziga.

Icyapa gisa umweru giciyemo akarongo gasa umutuku n'imbere harimo n'akandi kantu gasa umukara k'icyapa gifite mpande 3 hasi hari ibyatsi bisa icyatsi n'ibiti bisa icyatsi n'amatara yo ku muhanda kino cyapa kiyobora ibinyabiziga.

Icyapa gisia umweru, mu imbere harimo akazeru gasa umutuku, kandikishijeho y'inyuguti zisa umweru, kino cyapa gifite mpande enye, hasi hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi.

Icyapa gisa umuhondo, cyandikishije mu nyuguti zisa umukara n'umuhondo, kiri ahantu ku rukuta hasa umweru, hasi na ho hasa umweru. Biragaragara ko kino cyapa gifite nk'ibintu kiyobora cyangwa byagenewe.

Icyapa cy'ikizeru gifite amabara asa umutuku n'umukara, gishushanyijemo imodoka isa umukara, biragaragara yuko ari ku muhanda, ari aho baparika imodoka hasi umweru no hejuru hasa umukara.

Icyapa gisa umuhondo, harimo akazeru gasa umutuku kandikishije mu nyuguti zisa umukara, hasi harimo akandi kazeru gafite mpande enye gasa umukara, hirya hari ibiti bisa umukara n'icyatsi, hejuru harasa umweru no hasi harasa umweru.

Icyapa gifite mpande enye, gisa umuhondo, ku mpande hagiye hariho umukara, mu imbere hagiye harimo udufishi dusa umukara, kino cyapa kiyobora imodoka mu muhanda cyangwa kikagabanya umuvuduko w'abantu no kwiruka, kiri ahantu hasa umweru.

Icyapa gisa umweru, mo imbere harasa ubururu mo imbere harimo n'agafureshe gasa umweru, kino cyapa biragaragara ko ari icyo ku kumuhanda, kiyobora abantu kugira ngo badakora impanuka cyangwa hatavukamo ikindi kibazo, biragaragara ko aricyo ku muhanda.

Umuhanda usa umukara uciyemo uturongo dusa umuhondo n'umweru, hakurya hari icyapa gisa icyatsi cyandikishije inyuguti zisa umweru, hari n'ikindi cyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara. Hasi hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi, hari amapoto yo ku muhanda ariho amatara, hariho n'ibiti bisa umukara.

Icyapa gisa umutuku kirimo akazeru gasa ubururu gashoyemo uturongo dusa umweruru n'umutuku, ku mpande hagiye hariho utudumagu dusa umukara, hejuru hasa umweru no hasi hasa umweruru, kino cyapa gifite nk'ibintu gishinzwe.

Icyapa gisa ubururu cyandikishaho akarongo gasa umweru mo imbere handikishije inyuguti isa umweru, ruguru harasa umweru hasi hagasa umweru, kino cyapa gifite mpande enye biragaragara ko aricyo k'umuhanda kiyobora ibinyabiziga.

Icyapa gisa icyatsi cyandikishije mu nyuguti zisa umweru, n'umuhondo n'ubururu, hejuru y'iki cyapa hari ibicu bisa ubururu bigiye biriho inyuguti, hariho n'amagambo hirya yandikishije mu nyuguti zisa umweru, hasi hari ibyatsi bisa icyatsi hirya hari n'imidugudu myinshi.

Umuhanda usa umuka ucoyemo imirongo isa umweru n'umutuku, hirya hari icyapa gisa umuhondo gicoyemo uturongo dusa umukara, gifite mpande enye. Hakurya hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Icyapa gisa umuhondo gifite mpande enye , mo imbere harimo agafreshi gasa umweru hasi y'iki cyapa harasa umweru, ruguru harasa umweru, no mu mpande haras umweru kino cyapa ni icyo mu muhanda kiyobora ibinyabiziga.

Icyapa hejuru gisa ubururu, cyandikishijeho inyuguti isa umweru, hashushanyijemo n'imodoka, hasi harasa umukara, handikishijeho inyuguti zisa umweru, hasi hasa umweru no hejuru hasa umweru, kino cyapa biragaragra ko ari icyo mu muhanda kiyobora imodoka.

Icyapa cy'ikizeru gisa umutuku, mo imbere harimo akazeru gasa umweru kandikishijeho inyuguti isa umukara. Imbere hariho ipoto rinini rifite insinga zisa umukara zijyana umuriro hino no hirya hatandukanye, hasi hari ibyatsi bisa icyatsi, hirya hari umuhanda usa umukara uciyemo akarongo gasa umweru ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru.

Icyapa gisa umweru, kirimo akarongo gasa umutuku, handikishijeho inyuguti zisa umukara, hashushanyijemo imodoka isa umukara, hasi handitseho ko bitemewe kuhaparika, birabujijwe.

Icyapa gisa umuhondo gifite mpande enye, mo imbere harimo akarongo gasa umukara, n'agafureshi gasa umukara. Kino cyapa kiri ku rukuta rusa umweru, biragaragara ko ari cyo mu muhanda. Gifite abantu kiyobora n'imodoka.

Umuhanda w'igitaka, hirya yaho hari inzu isize irangi risa umweru n'umuhondo, yubakishije amatafari asa shokora, impande hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi n'indabyo.

Umuhanda usa umukara, utangijwe n'amabuye asa umweru n'umukara, imbere y'uwo muhanda hari inyubako isize irangi risa umuhondo n'umweru n'umukara, imbere yaho handikishije inyuguti isa umweru, hahagaze abantu bambaye imyenda isa ubururu n'umweru, hasi hari amakaro asa umweru.

Ibiti byinshi bisa icyatsi, hakurya hari ipoto risa umweru ririho itara ryo ku muhanda, hirya yaho hariho abantu babiri bicaye ku ntebe isa shokora n'umukara, harimo uwambaye umupira usa umuhondo n'ipantaro isa umukara n'inkweto z'umweru n'uwambaye umupira usa umweru n'ipantaro isa umukara n'inkweto z'umweru. Imbere yabo hariho n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo imodoka isa umukara, hirya y'aho hari igipangu cyubakishije amatafari asa shokora, hejuru hari ibyuma bisa umutuku n'umweru, imbere hariho n'amapoto afite amatara yo ku muhanda.

Inyubako nziza cyane ifite irange risa umuhondo n'ibyuma bitangije iyi nyubako bisa umweru hariho n'icyapa gifite uruhande rusa umweru n'ubururu byandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Umuntu uri kugenda kuri moto wambaye ikoti risa umukara na kasike isa umutuku, inyuma ye hari icyapa gisa mweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara, hakurya ye hari amapoto ajyana insinga hirya no hino hatandukanye n'inyubako zigiye zisize amarangi asa umuhondo n'umweru n'ubururu.

Inyubako nziza cyane isize irangi risa umukara n'umweru n'umuhondo, imbere hari icyapa gisa ubururu cyandikishije inyuguti zisa umukara, hashushanyijemo umugore wambaye imyenda isa umukara afashe mu ntoki igipapuro, imbere hari ururabyo rwiza cyane rusa icyatsi, haparitse imodoka zitandukanye umukara, ubururu n'abamotari n'abagenzi bari guhita.

Umuhanda w'umukara uri ugendamo umumotari wambaye ijiri risa ubururu n'umuhondo, kasike isa umuhondo n'umweru hirya ye hari igipangu gisa umukara, mu imbere harimo inyubako nziza cyane, ifite irange risa umweru n'ibiti biri impande y'igipangu bisa icyatsi byinshi.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari asa shokora, isize irangi risa umuhondo n'umweru, igipangu cyubakishije amatafari asa shokora n'ayasa umweru, gisize irangi risa umukara imbere hari ibyatsi byiza cyane bisa icyatsi, bitangijwe n'amabuye asa umukara n'umuhondo.

Inyubako nziza cyane, isize irangi risa umuhondo, n'ubururu, n'icyatsi, ifite amadirishya asa umukara, hasi hari igiti gisa icyatsi, hejuru hasa umweru, hasi hagasa umweru, hasi hariho n'amakaro asa umweru.

Umuhanda w'igitakako uri kugendaho abagenzi batandukanye imbere yabo haparitse imodoka isa umutuku n'indi isa umukara, inyuma hari abantu bari kugenda bambaye imyenda isa umweruru bahetse amabaga asa umukara, n'undi yambaye umupira wijimye n'ipantaro isa umukara.

Inzu isize irangi risa umukara n'umweru hejuru hariho amabati asa umutuku, hirya hari ipoto rijyana umuriro hirya no hino hatandukanye, n'indi nyubako isize irangi risa umweru, n'umutuku, n'umukara, ni ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, iyi nzu itangiwe n'igipangu gisa umukara.

Icyapa gisa umweru cyandikishije inyuguti zisa umukara, hasi hari ibyatsi bisa icyatsi, hirya hari inyubako ifite irangi risa umweru n'amadirishya asa umukara n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hirya hari n'izindi nyubako nyinshi.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo abantu batandukanye, hakurya y'umuhanda hari inyubako nziza ifite ibara risa umweru n'umukara, yubakishije amatafari asa shokora, ukikijwe n'ibyuma bisa umukara n'inzugi zisa umukara.

Imidugudu ituwe n'amazu menshi cyane, hari inzu, ifite ibati risa umweru n'amarangi simweru n'amadirishya asa umukara, hirya hariho n'umutaka usa umutuku, n'ibiti bisa icyatsi, biragaragara ko ari karitsiye ituwe cyane.

Umuhanda w'igitaka hirya y'umuhanda hari inyubako yubakishije amabuye asa shokora, hejuru hariyo icyapa gishushanyijeho icupa gisa icyatsi, hasi hariho abantu n'indobo bashyiramo imyanda, hakurya hari akazu k'umuhondo ko bacururizamo amayinite n'imodoka iri kugenda.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo abamotari benshi n'imodoka nyinshi zitandukanye, hirya hari ibiti bisa icyatsi n'inyubako nziza cyane ifite ibara risa umuhondo n'umweru n'umukara, hari icyapa gisi ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa umukara n'umweru, hasi hariho n'ibiti bihatangirije bisa icyatsi.

Imidugudu myinshi cyane itandukanye ifite amabati asa umukara n'umutuku n'umweru, hakurya hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hariho n'amapoto asa umweru ajyana umuriro hirya no hino hatandukanye.

umuhanda usa umukara uri kugendamo umumotari wambaye ijiri risa umuhondo n'ubururu yambaye n'ingofero isa ubururu moto ye isa umuhondo n'umutuku inyuma yiwe hari inyubako nziza cyane ifite irangi risa umukara n'umweru hasi hari akayira k'abanyamaguru kari kugenda ahoban haparitseho n'imodoka isa umweru n'amatara yo kumuhanda n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda usa umukara uri kugenda n'ikimodoka kinini gifite ibara risa umukara n'umweru n'ubururu, hakurya yacyo hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'amapoto hariho amatara yo ku muhanda n'indabyo zisa umuhondo, hakurya hariho n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda usa umukara ukikijwe n'amababuye asa umukara n'umweru hari kugendamo imodoka isa umukara, hirya y'imodoka hari n'amatara yo mu muhanda n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, harimo n'icyapa gisa umweruru kiriho ibara risa umutuku.

Umuhanda usa umukara ucoyemo imirongo myinshi cyane isa umuhondo n'imirongo isa umweru aho abagenzi bambukira, hari icyapa cyambutsa abantu n'igihagarika imodoka kugira ngo abantu baceho. Hirya hari kugenda umumotari n'imodoka, hirya hariho n'ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda usa umukara, uri kugendamo abamotari, ruguru hariho akayira k'abanyamaguru kari kugendamo abagenzi, hejuru hariho n'undi muhanda usa umukara, uri kunyuraraho imodoka, hirya hariho n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda usa umukara akikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara, impande y'aya mabuye hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi, harimo icyapa gisa ubururu cyandikishije inyuguti zisa umweru. Hirya yaho hari amatara yo ku muhanda, n'urukuta rusa umweru. Hari kugendamo imodoka isa umweru n'umukara, biragaragara ko bwije cyane.

Umuhanda usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umweru ashushanyijemo akarongo gasa umweru, hakurya y'ayo mabuye hariho ibyatsi byiza cyane bisa icyatsi. Hariho amatara yo ku muhanda, biragaragara ko bwije cyane n'imodoka zirikugenda.

Umuhanda usa umukara ushoyemo imirongo isa umweru n'umuhondo, ikikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hirya hariho ibyatsi bisa icyatsi n'icyapa gisa ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa umweru, hari kugenda mo imodoka y'umukara irikwaka amatara asa umutuku, n'umumotari, no hirya hari akayira k'abanyamaguru kari kugendamo abantu.

Umuhanda usa umukara wanditsemo hagati inyuguti zisa umweru, hirya hari imodoka iri kuza, hariho n'ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi, hejuru hariho ibicu bisa umweru n'ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Umuhanda w'umukara ushoyemo uturongo dusa umuhondo, ukikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara, ruguru hariho ibyatsi bisa icyatsi byiza cyane, hari kugendamo n'abamotari, hirya hariho n'amatara yo ku muhanda n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda usa umukarara uciyemo uturongo tw'umweru ahantu bambukira, ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hirya hari ipoto hariho itara ryo ku muhanda, hari kugendamo ikimodoka gisa umweru n'ubururu, n'umumotari, hirya hari akayira k'abanyamaguru kari kugendamo abantu, hirya yaho hari ibiti bisa umukara n'icyatsi.

Umuhanda usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hariho ibyapa bisa umweru n'amatara yo ku muhanda, hari kugendaho imodoka isa umutuku ifite amapine asa umukara, hakurya hariho n'ikindi kimodoka gisa umweru ni umukara n'icyapa gisa ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa umweru.

Umuhanda w'umukara ukikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara ruguru hari ibiti bikikije umuhanda bisa icyatsi n'umukara, hariho n'amapoto yo kumuhanda hejuru hari igicu gisa umweru biragaragara ko ari kumanywa.

Umuhanda w'igitaka imbere hari umuhanda usa umukara uri kugenda n'imodoka isa umukara n'umweru, hirya hari insinga zijyana umuriro hirya no hino ku Isi n'amatara yo ku muhanda n'amazu menshi n'ikimodoka kiri kuza gisa umutuku, imbere hasa ubururu hirya hari n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo imodoka isa umweru ipfundikije shitingi isa umweru, hari kugendamo n'abamotari n'ikindi kimodoka kinini gisa umutuku n'umweru, umumotari afite ishati isa ubururu n'umuhondo yambaye na kasike zisa umuhondo, hirya hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Umuhanda uciyemo uturongo dusa umweru, hari kwambuka abakobwa babiri umwe yambaye ishati isa umukara n'ipantaro isa umukara n'undi wambaye ishati isa umweru n'ipantaro y'umukara umumotari we yambaye ijire isa umuhondo w'ubururu yambaye nakasike isa umukara. Hirya yaho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hariho no kugendaho imodoka.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo imodoka isa ubururu, n'umumotari, hirya hari amatara yo ku muhanda, n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi. Hari akayira k'abanyamaguru bakamennyemo amazi, biragaragara ko hari harimo n'ivumbi ryinshi.

Imihanda ibiri umwe uca hasi'ndi ugaca hejuru, hasi hari kugenda umumotari wambaye ijire isa umuhondo n'ubururu, hirya ye hari ibiti bisa icyatsi n'itara ryo ku muhanda.

Umuhanda usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hakurya hari kugendamo moto, ruguru hari ibyatsi bisa icyatsi, hariho n'ipoto risa umweru ririho itara ryo ku muhanda, biragaragara y'uko ari ku manywa.

Umuhanda usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hari kugendamo abanyonzi n'abamotari, umumotari yambaye ijiri isa ubururu n'umuhondo na katsike isa umutuku, hirya ye hari amatara yo ku muhanda n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda w'umukara hepfo y'umuhanda hari rigore itwara amazi imbere hari ikimo kinini kiri kuza gisa umukara n'umweru, hirya hari ibiti bisa icyatsi hariho n'amapoto yo ku muhanda n'amatara hejuru hasa umweru biragaragara ko ari ku manwa.

Umuhanda w'umukara utangijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, impande yayo mabuye hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi n'ururabyo rusa icyatsi, n'icyapa kiriho gisa umweru n'umukara, hahagazeho umuntu ari kugenda n'abandi bari kwinjira basohoka muri urwo ruzu runini, hari kwakaho n'amatara asa umuhondo.

Umuhanda w'umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, ucoyemo imirongo isa umweru aho abantu bambukira, hirya yaho hari icyuma gisa umweru n'umukara n'itara ryo ku muhanda n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'aho abagenzi baca.

Umuhanda usa umukara uciyemomo imirongo myinshi cyane isa umuhondo. Uri kugendamo moto n'imodoka isa umutuku. Hirya hari amapoto afite amatara yo ku muhanda n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hakurya hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi, byegeranye n'ibyuma bisa umweru. Uyu muhanda biragaragara ko ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harasa neza, ndabona ari ku manywa.

Umuhanda w'umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, ruguru ku kayira k'abanyamaguru haparitsemo umunyonzi wambaye imyenda y'umukara, ruguru ye hariyo n'undi mukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umweru, hirya ye hariho umumotari uparitse, hariho n'amatara yo ku muhanda biragaragara ko bwije.

Umuhanda usa umukara ushoyemo akarongo gasa umweru, hirya hariho ibyatsi bisa icyatsi; hari kugendamo imodoka zisa umweru n'abamotari n'abagenzi, hirya hariho n'amatara yo mu muhanda n'amapoto n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.